Farumasi cyangwa se iguriro ry'imiti igiye itandukanye, aho abarwayi bajya kwa muganga bakabandikira imiti bakabaha urupapuro ruriho imiti bagomba kugura, bakaza muri farumasi bakayigura.

Abaturage baje guhura n'abaganga cyangwa se abajyanama b'ubuzima, bamambaye rinete cyangwa se amataratara inyuma hariho undi uhagaze aho bafashe umwana wambaye ishati y'umweru bari kumutamika ikinini.

Icyatsi cyangwa se igisura, iruhande hari igishyitsi cyangwa se igiti batemye, iki gisura kikaba gikunda kuba mu ishyamba, kikaba kitababana cyane.

Igisagara cyangwa se umurima udahinze, aho bigaragara ko basaruyemo ibigori, hakaba harimo iteke rya kimeza, ndetse bakaba barawuretse umurima kugira ngo ufate intungamubiri hasi, kugira ngo ikindi gihingwa bazahingamo kizatange umusaruro uhagije.

Ubwoko bw'ibihingwa bizwi nk'ibirayi, aho bitarera biri mu murima. Bitangiye kuzana uruyange biracyatabwaho, biterwa imiti ndetse bikabagarwa bikanuhirwa, aho byerera mu butaka ari uko uruyange rumaze kuvaho.